Abantu baricaye harimo abagore bane n'umugabo wicaye wazamuye ipantaro, yicaye ku ntebe ngufiya akandagiye ku rukweto, umudamu umwe afite ikayi n'ikaramu ari kubigisha.

Ahantu heza hariho n'inzu ya etaji, hariho n'ubusitani bwiza, umucaca mwiza wo kwicaramo uhagaritsemo idarapo cyangwa ibendera ry'Igihugu. Iyo nzu yubatse iruhande rwayo ni ndende, kandi irasakariye, iruhande rwayo hari abantu.

Ibitaro bya shyira, mu karere ka shyira byubatse neza, birageretse, bisakaje amabati meza ahenze y'umutuku afite n'imireko, bisize n'amarangi y'umweru agaragara neza cyane.

Mu isoko harimo ibintu byinshi; imineke, amapapayi, amavoka, ibipesa, iminzani n'ibindi bikoresho byose bijyanye n'ubuzima.

Umuntu arambuye ukuboko, ukuboko yashyizeho igitambaro kugira ngo amaraso atava. Ukuboko kwe kurabyibushye, ishati yayihinnye kugira ngo akurambure neza.

Igikoresho cyiza cyanditseho ALPHA bakoresha bari gutwara abarwayi, gikozwe mu mpande enye kandi kigihe gifite imyanya hagati y'ibyuma bikigize.